Kajugujugu ni indege yifashishwa mu mirimo inyuranye, haba gupima ubutaka cyangwa se gutwara ba mukerarugendo. Ndetse akenshi ikoreshwa no mu ntambara, igihe ari byo yagenewe.

Ubu ku nzu zose, inzu zose zizwi nk'aho ari agatema adiminisitarative cyangwa inzu z'ubuyobozi cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi, hashyizwe za kamera kugira ngo zikunde gusuraveya ibyambuka, abakora ibyaha ndetse n'abandi kugira ngo zishobore gutanga amakuru, n'abantu bifashi b'umutekano bazifashishije mu makuru.

Iyi ni porisi y'u Rwanda. irakora ibijyanye no gucunga umutekano w'ibinyabiziga, irinda impanuka abaturage ndetse n'abatwara.

Inkweto za bote ni inkweto cyangwa bita bote. Ni inkweto zikoreshwaguta mu kuzamuka ahantu h'imisozi cyangwa se ahantu imvura yaguye, nk'abashinzwe umutekano bazifashisha cyane kubera ko bakunda gukora ingendo n'amaguru.

Porisi y'igihugu igira abaturage inama zinyuranye mu bijyanye no kwirindira umutekano, ndetse igafasha n'abagenza ibinyabiziga mu muhanda kugenda neza, kugira ngo bagere iyo bajya amahoro. Porisi y'igihugu ifasha abaturage mu guhuza ubuyobozi n'abaturage.

Hari utugoroba tw'ababyeyi, inama zikorwa n'abaturage mu makaritsiye, hari n'inama ziba zarateguwe na Reta ziba zivugirwamo amatwara ya Reta. Akeshi inama igomba kwitabirwa kugira ngo umuturage yumve ibivugirwamo abikurikize, ndetse abe umuturage nyawe ukurikiza amabwiriza ya Reta.

Inama ahantu hatangirwa ibitekerezo ndetse na gahunda zubaka umuryango. Ndetse n'izubaka ubuyobozi n'abanyarwanda muri rusange, hateranira abayobozi n'abaturage bakagezwaho gahunda za leta.

Aba ni abaririmbyi beza cyane, abaririmbyi bakoresha inanga nyarwanda, inanga gakondo bacuranga banaririmba. Barasusurutsa imbaga kuko banambaye na neza, nkuko bigaragara ko habaye ibirori.

Icyansi, icyansi bamwe bita inkongoro ni igikoresho bakoresha iyo bari kunywa amata, cyangwa se bakaba bashobora kugikamiramo amata y'inka. Icyansi mu kinyarwanda kigaragaza ubukire, kuko ari ahantu ho kunywera amata.

Umuvure ukoreshwa mu gukama ibitoki, bashiramo inshinge bakatonoreramo n'ibitoki bityo abari abamo bega urwagwa bagakoresha intoki, hakavamo umutobe wa mutobe akaba ari wo uza kwegwamo urwagwa bamaze gusukamo amasaka, babese yitwa bita urubetizi urwagwa rugasoka ruryoshye.

Amazu y'ibyatsi ya kera yagaragazaga imyubakire y'abanyarwanda bo hambere. Amazu agaragara ashobora kugaragara mu byaro bya Congo, mu byaro bya Uganda. Aya mazu akaba atakigezweho kuko ashobora gutera inkongi y'umuriro igihe cyose yaba ahuye n'umuriro.

Ubukwe bwa kinyarwanda bwarangwaga rimwe akenshi no gukoresha inzoga, gakondo zirimo urwagwa cyangwa se ikigage, akenshi kugira ngo gisogongere, bagakunda gukoresha imiheha cyangwa se ibiseke.

Mu muco Nyarwanda ububyinnyi bukorwa n'abantu banyuranye, urubyiruko ndetse n'abantu bakuru mu gususurutsa abantu, akenshi bakabyina imbyino gakondo, imbyino gakondo ziba zigiye kwibagirana, bityo zikibukwa noneho hakabaho gusigasira umuco.

Kwakira abashyitsi, kwakira abashyitsi gahunda y'Abanyarwanda imwe mu mico iranga Abanyarwanda, kwakira ba mukerarugendo ndetse n'abandi baza batugana, zikaba zimwe mu ndangagaciro ziranga Abanyarwanda.

Aba ni abavuzi b' ingoma: ingoma ni igikoresho nyafurika, cyakoreshwaga mu gutanga ubutumwa ndetse no guhagurutsa abantu, igihe babaga bibaye ngombwa ko bahamagarwa, ariko ubu n' abazungu baragikoresha kuko ingoma yitwaga indamutsa.

Ububoshyi nyarwanda bwiganjemo uburyo bwo kuboha ibiseke, ibyibo, ndetse n'inkoko. Ibyo bikaba ibikoresho gakondo biranga abanyarwanda. Uko bisanzwe agaseke ni...

Imbyino y'intore, intore ni ababyinnyi bakunze kugaragara mu kinyarwanda, ndetse abakinnyi, ababyinnyi, bagakundwa n'abantu benshi, bityo bikaba ngombwa ko buri wese aho bari yumva yabareba, ndetse bakakira n'abashyitsi neza.

Iyi ni inzogera yambikwa imbwa mu ijosi, igihe barimo bahiga. Ishobora no kuba amayugi, amayugi yambarwa mu maguru iyo intore zirimo kubyina.

Ingobyi itwara, iyi ni ingobyi itwara abarwayi, haba kwa muganga ikaba iri hamwe n'igikoresho kitwa igisabo gicunda amata bashaka amavuta, hakaba n'umuvure bengeramo urwagwa rw'ibitoki, hakaba n'amasuka akoreshwa mu guhinga ibihingwa, bikaba ibikoresho gakondo bya kinyarwa...

Umukobwa yahawe agaciro mu Rwanda, umutegarugori afite ijambo bityo habaho n'imyidagaduro, mu myidagaduro agira hakabamo no kuranga ubwiza no kugaragaza ubwiza, bityo hagatoranywa umukobwa wahize abandi mu bwiza, akitwa misi Rwanda.

Abanyabukorikori, bakunda kwifashisha imitako, bagakora imitako igurwa, ikagubona na ba mukerarugendo ndetse n'abandi bashaka kuyitaka, akenshi bagaragaza umusambi, amahembe, ndetse n'ingabo. Ingabo yakoreshwaga ku rugamba kera n'ingabo za kera zari iz'umwami.

Imbyino gakondo zifashishwa mu kwakira abashyitsi, no gususurutsa abaje mu nama no mu birori, imbyino gakondo ni ngombwa kuko zitwibutsa umuco wacu.

Ububumbyi buzwiho kuba umwe mu myuga yakorwaga kera n'abanyarwanda, ikaba yarakorwaga mu buryo bunyuranye abantu bakabumba inkono zo gutekamo cyane cyane bakazigurisha mu baturage ariko ubu hadutse amasafuriya ku buryo ababumba batakibona isoko ku buryo buhamye.

Umutiba, umutiba wari umwe cyari kimwe mu gikoresho cyifashishwaga mu guhunika, mu guhunika bagiraga imiguri ndetse n'ibigega. Umutiba ugaterekwa mu nzu cyangwa ahandi hantu hafite umutekano, bagasukamo amashaza cyangwa se ibishyimbo.

Amatorero abyina asusurutsa abantu mu mana mu birori ndetse no mu bukwe, henshi mu banyarwanda iyo babyina ubona bamerewe neza, kandi babyina mu buryo bwa gakondo ku buryo n'abanyamahanga babarebye, bumva bashishikajwe no kubitegereza tubyinyine gakondo dukunde umuco nyarwanda.

Abavuzi gakondo hari abiganjemo abapfumu. Abapfumu, akenshi bakoresha ibintu by'imiti gakondo. Ariko mu buryo bushobora gutuma habaho no kurya abarwayi amafaranga, ku buryo atari ahantu wakwifuza kujya kwivuriza cyangwa kohereza umuntu wawe, kuko ashobora kuhahurira n'ibyago bikomeye. Abapfumu bashobora no kurebwa n'abantu.

Ubukwe bwa kinyarwanda bugaragaza umuco mwiza w'abanyarwanda, habamo gutura bakoresheje ibiseke, ibyibo, amasero, ndetse n'inzoka.

Imigano ni igihingwa kifashishwa mu gukora ibikoresho binyuranye, baboha inkangara, bakaboha ibitebo, bagakoramo n'intebe, ndetse ku buryo n'abantu benshi bakunda ibikoresho biboshywe mu migano.

Inka zitwa inyambo ni inka za kera zagiraga amahembe maremare, zikaba inka ariko zitatangaga umukomo cyane, ariko zikaba ari inka zaserukaga mu birori, kuko zabaga ari inka z'umwami.

Inkoko ni ntoya ugereranije n'intara ,kuko intara igosora imyaka ariko inkoko ikaba ikoreshwa mu kuriraho imyaka, ndetse kuriraho ibiryo ,cyangwa se kuyiriraho umutsima ,ni igikoresho gakondo kiryoshya ibiryo ,ndetse gikundwa n'Abanyarwanda.

Mu rwanda abanyarwanda bafite imyambarire itandukanye, ndetse ko umwami yabaga yambaye ku buryo butandukanye, nk'umwami Musinga, twese duharanire kumenya umuco wacu.

Ubugeni n’ubukorikori, kera bwakorwaga habagaho ububoshyi, hakabaho ububumbyi. Bakaboha inkoko, bakaboha uduseke, ndetse bakaboha n’ibyibo, bigakoreshwa mu mirimo y’Umunyarwanda mu buzima bwe bwa buri munsi.

Agaseke ni igikoresho gakondo igikoresho bakunda kubika babikagamo imyambaro kera ariko agaseke ni ikimenyetso kigaragaza ubukungu kuko kagaragaza ubwizigame, kakaba ari agaseke kakorewe ba mukerarugendo ndetse kakaba kaboherwa no mu mashyirahamwe amwe ya kera.

Inkangara, uducuma, imiseke, imikeka n'ibirago, bigaragarako ari ibikoresho byakoreshwaga muco nyarwanda.

Izi ni intore, intore zo mu Rwanda. Izi mbyino, ni imbyino gakondo abantu benshi barazikunda, ndetse n'abanyamahanga baje gusura u Rwanda babakira bababyinira izi mbyino gakondo. Umuco nyarwanda, urakize cyane mu bijyanye n'indangagaciro no kubyina.

Izi ni intore, aba ni ababyinnyi gakondo bagaragaza umuco nyarwanda. Intore zagaragazaga imico yagaragazaga abasirikare ba kera, bityo ariko ubu intore zitwa abantu b'indahemuka ,bakoresha ukuri beza, bafite indangagaciro nyarwanda.

intanga igikoresho kinyarwanda; inanga bacuranga mu birori bishimisha ndetse bashimisha n'abantu, ishobora gukoreshwa mu gitaramo cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose umuntu ashaka gutanga ubutumwa; mu mbyino, mu ndirimbo cyangwa se akoresheje inanga, iyi ni inanga itandukanye n'inanga gitari.

Igitebo gikuzwa ibijumba kigakuzwa ibirayi, kigakuzwa amateke n'imyumbati. N'igikoresho cy'abakurambere gikoreshwa mu muco nyarwanda, gishobora kwifashishwa no kuyora ifumbire y'imborera.

Iburasirazuba hagwiriye inka za kinyarwanda ni ukuvuga inka zifite amahembe manini kandi inka zikunda kugira umukamo mukeya, akenshi ahubwo bakazikoresha nk'inka zishobora gukoreshwa mu gutanga inyama.

Inkono ya Kinyarwanda, icanizwa inkwi, ikagira n'umufuniko hejuru bita akeso. Ikaryoshya ibiryo, kuko ibiryo bishya byitonze, bitamera nk'ibyatetswe mu isafuriya. Akenshi, n'ibishyimbo, amashaza, cyangwa se impungure, zitekwa muri iyo nkono, kugira ngo mu buryo bita gutsinda.

Enterebuteri. Enterebuteri ni igikoresho cy'amashanyarazi, kiba kiri mu nzu ku kibambasi. Bagikoresha iyo bari kuzimya cyangwa batsa amashanyarazi. Enterebuteri ntigomba gucokozwa kuko akenshi iyo ikojwe, bituma habaho gusenya, bakongera bakabikuraho bushyashya, bityo bikaba byateza impanuka.

Icyuma cyitwa ipensi gikoreshwa mu gukurura mu gufatisha insinga, cyangwa se ushaka ko udakora ku muriro ngo ube wagufata. Ni icyuma gifata cyane ntigishobora kurekura iyo ugikoresheje. Akenshi cyifashishwa mu gukurura imisumari, cyangwa se mu kuyifatisha neza. Bityo umufundi akabasha kuyikoresha neza, mu bijyanye no gufatisha insinga akora amaradiyo.

Amashanyarazi agira igikoresho bita enterebuteri, kiba cyometse ku rukuta, akenshi iyo bari kwatsa cyangwa se iyo bari kuzimya. Ni igikoresho kigomba kwitonderwa, kuko ugikoresheje nabi, bisaba kongera kugikuraho kugira ngo ushyireho ikindi. Kidahari ntiwakwatsa cyangwa ngo ubuzimye.

Paruwasi regina pacisi mu mujyi wa Musanze. Akaba ari paruwasi ya kiriziya gaturika, igira n'ishuri ryayo ryitwa Regina pacisi riherereye mujyi wa Musanze.

Ikiraro gihuza i imihanda umuhanda u Vunga, Muhanga, ikiraro gikomeye cyane, ikiraro cya Rubagabaga, ntabwo kizongera gucika, kuko Leta yagihaye ubushobozi bwo gukomera, iragisana bihagije.

Ubuyobozi bwagiriye neza abaturage bububakira n'ibiraro binyuze mu kirere. Kubera yuko ibyo kunyura hasi bitashobokaga bitewe n'imiterere y'ahantu. Bityo abagenzi kugenda no kugaruka bava mu karere bajya mu kandi bikaba byoroshye.

Gusenga ni byiza, gusenga n'umutima umenetse, ugasenga usengera na bagenzi bawe, Imana isubiza amasengesho igihe cyose usenganye ukuri, ndetse ukihana ibyaha.

Imirimo ya Reta ikorerwa ahantu hose, hakarangwa n'uko hari idarapo ry'igihugu, rigaragaza ko hari imikorere guverinoma. Ntawe utahamenya igihe cyose ashaka serivisi, cyangwa se igihe cyose ashaka kumenya aho yakwitabaza, igihe cyose agize ikibazo.

Inzu z'ubwami, inzu zigaragaza inzu z'ubwami bwa Yehova, insengero z'abayehova zigaragara hirya no hino mu gihugu, bigaragara ko abayehova bamaze kuba benshi mu gihugu, kandi ko baboneka henshi.

Ishuri rya Musanze, ishuri rya Musanze riherereye hafi na Karilisimbi, mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze, ni ishuri ryiza cyane kuko ari ishuri ryegereye Kiliziya Gatorika, rinaturanye n'ishuri rya Inesi kaminuza ya Inesi nayo ikaba iherereye mu murenge wa Musanze.

Imihanda y'u Rwanda ni myiza ,ahenshi mu Rwanda hamaze kugera kaburimbo bigaragaza iterambere ry'Igihugu, ni ukuvuga ngo kuva mu ntara ujya mu yindi, byanga byakunda wabona umuhanda ukugezayo.

Kubera ingufu z'amashanyarazi zabaye nkeya, imirasire y'izuba isigaye yifashishwa ndetse igatanga ingufu zigaragara, abantu bagacana, ndetse rimwe hakavaho n'ingufu zo gucana ku nganda, cyane cyane iyo zikusanyijwe. Bakunda kubyita sora inaji.

Aha idarapo ry'u Rwanda, rigaragara aho ubuyobozi bukorera, ubw'akagari, mu mudugudu, cyangwa se n'umurenge. Ubu uri ku muhanda, ku nzira nyabagendwa. Aho ubuyobozi bushobora kugera.

Mu biro, mu biro akenshi bya bindi iby'umuyobozi, akenshi umuntu asigaye asanga harimo imashini, harimo imashini ifotora, hakabamo intebe nziza zo kwicaraho, hakaba ibikoresho binyuranye bigaragara ko ari icyumba cy'ubuyobozi.

Amashuri yateye imbere mu Rwanda, uburezi bwateye imbere mu Rwanda, kuko hari amashuri menshi hari amashuri yigenga hakaba n'amashuri ya leta, yitabirwa n'urubyiruko, ndetse n'ubu ngubu hakaba n'imyaka iyo ariyo yose buri wese yemerewe kujya mu ishuri, ku buryo buri wese ukeneye ubumenyi agomba kujya mu ishuri nta nkomyi.

Ibiro by'akarere ka gakenke biherereye mu majyaruguru. Ni ibiro byiza cyean mbese akarere bigaragara ko kamaze gutera imbere. Hirya no hino mu gihugu barimo barubaka ibiro by'uturere bigezweho bijyanye n'iterambere ry'igihugu.

Mu karere ka Nyabihu, mu Karere ka Nyabihu ahantu hatunganirizwa akawunga, kawunga uru ruganda ni uruganda rwiza cyane, rutugezaho ibikomoka ku bigori.

Kubaka amashuri ni igikorwa cya leta gifasha abana kubona ibyumba by'amashuri yo kwigiramo n'ubushobozi buhagije .Bityo bigatuma abana ubucucike bugabanuka mu myigire yabo.

Akenshi umuntu witwa umuvunyi iyo agiye gukemura ibibazo, abantu bose bagaragaza ibibazo maze akabyitaho. Umuvunyi ahava akemuye ibibazo byinshi, kandi akabikemurira ahagaragara mu maso ya buri wese, ku buryo buri wese atanga igitekerezo hakabaho kurenganurwa.

Inteko z'abaturage iyo zateranye, akenshi habaho kugaragaza abafite ibibazo, abayobozi bakabikemura, wowe ufite ikibazo akagerageza kurenganurwa. Impamvu buri wese akwiye kwitabira inama, kubera ko ashobora kuvamo asobanukiwe n'icyo atari azi neza.

Imodoka kwasiteri toyota, kwasiteri ni bisi itwara abagenzi, igatwara abagenzi benshi ugereranyije na zimwe zitwa za hiyasi.

Ubucuruzi bujyana n'ubwikorezi, amagare afasha abantu gutwara ibinyuranye ushobora gutwara inkoko, ugatwara abagenzi nawe ubwawe reka kugeza aho ukeneye kugera. Igare n'igikoresho cya ngombwa n'igikoresho cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu mu bijyanye n'ubwikorezi.

Aha ni muri gare ya Nyabugogo, imodoka zabaye ingume abantu barategereje. Bategereje ko imodoka zaza, bisi zihagije kugira ngo zibatware, zibageze aho bagomba kujya. Iki gihe hari nk'igihe aba ari igihe cy'abanyeshuri bagiye ku ishuri, cyangwa se abantu basubiye iwabo mu minsi mikuru.

Ubwikorezi buteye imbere mu Rwanda. Ibyo bita taransiporo buri bantu bose, ubu batembera impande zose, bakajya kurangura ibicuruzwa, bakanagezwa hirya no hino. Ni yo mpamvu imodoka zikenewe, ndetse na moto n'amagare, byose birakoreshwa.

Mu kiyaga cya kivu ba mukerarugendo barahakunda akenshi kugira ngo babe abantu bishimye cyane, bakunze gufata abasare bahongaho bakabashyira mu bwato, bagakora urugendo mu mazi bakitegereza uko bigenda.

Imodoka Ritiko izwiho kwikorera abantu benshi. Imodoka igoboka abagenzi mu gihe gitoya cyane, Ikunda gutegwa cyane, kandi n'uyirimo agenda atekanye. Ni isosiyete yasimbuwe iyahozeho yitwaga Onatarakomo.

Abanyonzi basigaye ari benshi cyane mu gihugu, umurimo wo kunyonga uwabuze akazi wese yirukira ku igare ngo agiye kunyonga ariko abanyonzi bafite akamaro kuko n'ubundi nabo bari mu bantu babarirwa mu batanga umusoro. Uzamura igihugu kandi bagafasha mu bijyanye n'ubwikorezi.

Igikoresho gitwara imizigo, imizigo myinshi cyane, ugereranyije n'iyo igare yatwara, cyangwa se moto, ishobora gutwara hagati y'ibiro maganatanu, ni igikoresho gikomeye gisigaye cyifashishwa n'abacuruzi, bageza ibicuruzwa byabo aho babicuruza.

Ni sosiyete y'igihugu ishinzwe ubwikorezi, ikaba ikoresha indege ijya hirya no hino ku isi. RwandAir imaze gushinga imizi i Burayi, mu Rwanda ndetse no mu bihugu duturanye.

Gare ya gisozi gare ya gisozi, iri mu karere ka gasabo hamwe kuri fawe ndetse mu muhanda ugana i kinyinya, habonekamo imodoka ndende za kwasiteri zitwara abagenzi.

Kuba imodoka zarongerewe mu mujyi wa kigali mu mujyi hakorwamo ingendo. Imodoka zinyuranye harimo sekibiyesu kampani yunguruza abantu ikabavana ahantu bamwe ibajyana ahandi.

Ingorofani ni igikoresho gikoreshwa mu bintu binyuranye harimo no kwikorera imizigo. Abo bita bakaraningufu, babikoresha mu masoko bari gukorera amafaranga, kugira ngo babone ikibatunga.

Kuba umushoferi w'imodoka ni ibintu byigwa, bityo nawe ukabarirwa mu bantu batwara imodoka ndetse ukaba n'umwuga wagutunga igihe iyindi yahagaze. Natwe dutware imodoka, twige kuzitwara, igihe twaziguze twe kuzagira ikibazo dushake perimi tutazagongana na Porisi.

Tagisibasi, imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi bagiye mu miririmo yabo cyangwa bava ahantu bagana ahandi. Imodoka zitwara abantu benshi kuva kuri umwe kugeza no ku bantu mirongo. Zifashishwa cyane mu kugeza abantu mu turere hirya no hino mu gihugu.

Hakenewe imodoka nyinshi zikorera abantu kandi n'imodoka zitwara abantu amabisi manini, kuko bimaze kugaragara nko ku mihanda, imodoka ntoya zisigaye ziba nkeya ndetse n'itangira ry'abanyeshuri, hakaba ikibazo bakabura imodoka.

Itangira ry'abanyeshuri iyo rigeze, akenshi imodoka ziba nkeya kuko ziba zikeneye gutwara abanyeshuri, bityo umuntu wese ushaka gufata urugendo agerageza kurupanga, bitari mu gihe cy'abanyeshuri bazaba basubira ku ishuri, kuko akenshi ingendo z'icyo gihe ziba zivunanye.

Moto muri gare ya nyabugo, abamotari barahabwa amabwirizwa na police, kugirango bashobore kugera iyo bagiye amahoro. Moto ni igikoresho cyihuta kandi kigera aho cyagenewe vuba, kuko inyura inzira yoroshye ndetse n'iyubusamo.

Mu mazi naho haba inzira kimwe no mu kirere ndetse no ku butaka, ariko inzira yo mu mazi umutekano wayo ugomba kwitwaho ukitabwaho cyane kubera ko kuhanyura ubwato rimwe na rimwe bupakiye abantu benshi buba bushobora gutera impanuka ariyo mpamvu kugenda mu mazi bigomba kwitonderwa cyane no gukorerwa igenzura.

Moto ya rifani ni moto igira amapine atatu yikorera ibiro hagati ya magana ane na magana atanu, abacuruzi bayifashisha iyo bagiye kurangura cyangwa se kugeza imitwaro hirya no hino.

Igikoresho cy'ubwikorezi, ni igikoresho gikoreshwa n'abantu benshi, igare rishobora kwikorera ibiro biri hagati y'ijana n'ibiro magana abiri, akenshi iyo riri mu nzira ririhuta cyane ku buryo utarihigamiye rishobora kuguteza impanuka.

Aba ni abamotari bagendera kuri za moto, batwara abantu babakura hirya no hino babegereza ku mirimo yabo cyangwa se mu ngendo runaka, kandi moto yabaye igikoresho cyiza igikoresho cy'ingenzi ku buryo kigoboka abantu b'ingeri zinyuranye, kandi bakahagera ku buryo bwihuse, baboneka hose mu gihugu mu rwanda ndetse.

Gare ya nyabugogo ni gare mpuzamahanga, nigare ihurirwamo n'abantu baturutse imihanda yose, umuntu wese azi muri nyabugogo kuko akenshi ari yo nzira ijya hirya no hino mu ntara.

Imodoka zitwa howo, zikorera imicanga irimo kubaka imihanda cyangwa se uwayikodesheje, yikorera umucanga mwinshi cyane, ku buryo iyo iwukuzaniye ituru imwe, biba bigaragara ko igukoreye igikorwa gikomeye.

Ikibuga cy'indege cya kanombe, ni ikibuga gikuru cya leta y'u rwanda kiba mu mujyi wa kigali ahagana mu gice k'i masaka, icyo kibuga cyakira indege nini i ziturutse mu mahanga ,n'iziturutse mu gihugu nta ndege idashobora kuhagwa bitewe n'ubunini bwacyo.

Sitade Amahoro, sitade y'u Rwanda, sitade nziza cyane, yuzuye ku bushobozi bwa Leta y'u Rwanda, iravugururwa, ubu yakira abantu benshi, ku buryo isigaye ari imwe muri sitade zikomeye mu rwego rwa Afurika.

Imikino y'abana bigaragara ko imikino y'abana, umutoza arabagira inama, arabagira inama y'uburyo bagomba kwitwara mu mukino uri buze gukurikiraho.

Voreboro ni umukino w'intoki. Ni umukino uhuza amakipe abiri atandukanye. Utsinze bavuga ko yateye ikiro, kandi kuwuzamura hagomba kubaho icyo bita simaci.

Voreboru ni umukino ukinishwa intoki, ukinwa n'abantu banyuranye cyane cyane urubyiruko. Iyo bakina ikibuga kiba kigabanyijemo kabiri, hakabamo icyo bita simaci, cyangwa se gutera ibiro. Ni umukino mwiza cyane ukundwa na bose.

N'abamugaye burya bakina siporo, n'abamugaye bakina voreboro, bakina bicaye kandi bigatuma nabo basusuruka. Abantu bose, imikino ntawuhejwe buri wese ku mikino ni ngombwa n'uburyo bwe.

Siporo ni ngombwa mu buzima bw'umuntu. Ifasha gukomeza amagufwa uwayikoze agatekereza neza akanagira n'ubuzima bwiza. Siporo igenewe buri wese, ntabwo siporo ari iy'abantu bamwe. Twese tugomba kwitabira siporo.

Sitade rejiyonari i Nyamirambo iri mu mugi wa Kigali, ni sitade ikunze kuberaho imikino, kandi amakipe menshi arahakinira, ni sitade yitaweho cyane kubera ko ikunda gukoreshwa cyane.

Umukino wa basiketiboro, ni umukino ukunzwe inyuma ya voriboro, ndetse na futuboro. Waturutse mu gihugu cy'Amerika, ariko umaze gukwira isi yose.

Umukino w'amagare ni umukino ukunzwe mu gihugu cyacu. Umukino uheruka, isiganwa ry'amagare ryitabiriwe n'abantu benshi, harimo n'abaturutse ku umugabane w'i burayi

Viziti Rwanda. Umukinnyi arakina rwanda yahawe Arsenal. Ndetse ihabwa na Bayern De Munich mu buryo bwo kwamamaza mu Rwanda no guteza imbere ubukerarugendo.

Ni umukinnyi w'umukino witwa tenisi. Iyi tenisi ni umukino mvamahanga. Ukinwa n'abantu babiri, umuntu aba afite agapira agahererekanya na mugenzi we hirya no hino, bagenda barengurana bawuhana, uwo ucitse akaba aratsinzwe. Uyu mukino ntabwo umenyerewe nk'umupira w'amaguru.

U Rwanda rwateye imbere mu bijyanye n'umukino w'amagare ndetse n'igihugu cy'ubufaransa. Muri iyi minsi hariho icyitwa turu di Rwanda. Turu di Rwanda yakozwe n'abantu n'abakinnyi banyuranye irebwa n'abantu banyuranye ndetse ihesha n'u Rwanda ishema mu mahanga.

Amagare ni umukino utangarirwa iyo wabaye mu gihugu cy’u Rwanda. Abantu basanga ku mihanda barimo baha amashyi abarimo kuwukora, kubera y’uko baba babona unogeye amaso. Ugasanga abantu benshi bataye imirimo, bagiye kwihera amaso. Usanga mbese ari ibirori, ku buryo abenshi bumva uwo mukino wahoraho, bakihera amaso.

Umukino w'amagare uramenyewe mu Rwanda, umukino w'amagare urakunzwe. Umukino w'amagare ufasha mu bukerarugendo, umukino w'amagare wari ukwiye no gusakazwa mu bigo by'amashuri.

Uyu ni umupira wa volley ball. Volley ball ni umukino bakina bakoresheje amaboko. Hagati mu kibuga haba harimo file bakajya batera umupira bawurenza, umupira wagwa hasi iyo kipe ikaba itsinze.

Ni umupira w'intoki, voreboru ni umukino ukinishwa intoki n'amaboko, ukinwa n'abakobwa, n'abahungu, ndetse n'abandi bantu banyuranye. Ni umwe mu mikino ikunzwe nyuma y'umupira w'amaguru, ukinwa barenza fire, hagati haba harimo icyo bita urushyundura.

Aba bana barakina umupira w'amaguru, umupira w'amaguru urakunzwe Ku Isi yose, ntawe utifuza gukina umupira w'amaguru, aba bana ni abanyeshuri.

Imikino ngororamubiri ni myiza, bituma umubiri wacu utera imbere, amagufwa agakomera, ndetse no mu mutwe akaruhuka, bityo umuntu agatekereza neza, hakabaho no kugorora ingingo. Urubyiruko rwacu rumenyereye siporo.

Isiganwa ry'amamodoka, ni gake riba mu Rwanda, ariko ahenshi mu mahanga riraba. Ni isiganwa rikorerwa henshi ariko noneho akenshi mu bihugu by'abazungu ryateye imbere, mu Rwanda ryagombye kwitabirwa kugira ngo n'abantu barimenye, bakore bamenye n'imikorere.

Umukino wa basiketibaro, ni umukino ukunzwe akenshi ukinirwa mu mijyi cyane ko aho ukinirwa aba ari ahantu hari sima aho buri wese akoresha amaboko akagerageza kwinjiza mu gatebo ariko bita basiketiboro.

Uyu ni umudugudu mwiza cyane, umudugudu uri ku muhanda aho abanyamagare n'abanyamapikipiki banyura hatuwe n'abaturage banyuranye.

Ikirori cya moto gifasha utwaye moto kumenya imodoka yaba imukurikiye, moto cyangwa se umugenzi uri inyuma, kikamurinda no kugonga cyangwa se gufata feri aho bitari ngombwa, moto iyo igenda.